Imbuga irimo ibyatsi ku ruhande hari indabo, imbere hari umwana wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'abandi babiri bahagaze ku nkingi y'ibaraza, inzu iri mu mabara y'ubururu isakajwe amabati y'ubururu.

Abana benshi bafite ibiryo mu ntoki, inyuma yabo hicaye ababyeyi, hakurya hari ameza n'urukuta rw'umweru.

Ibyatsi byegeranye na esikariye zifatanye n'ibaraza ry'ishuri, rifite amadirishya ndetse n'inzugi z'imikara, ibara ni umuhondo risakajwe amabati y'umutuku.

Ikibuga kirimo amatafari ya rukarakara hepfo yacyo hari inyubako iri guturukamo imyotsi isakajwe amabati y'icyatsi, inyuma hari ibiti.

Abana bicaye mu ishuri, bambaye impuzankano, irimo mu mabara y'ubururu, imbere hari ikibaho cy'umukar, igisenge kiri mu mabara y'umweru n'umuhondo, ku rukuta hamanitse ibipapuro bishushanyijeho ndetse binanditseho.

Ishusho y'inyenyeri ririmo amabara y'umuhondo, umutuku, icyatsi n'ubururu, hariho n'utuntu tw'umukara.

Abana bicaye umwe yambaye umupira w'umutuku afite igitabo mu ntoki, undi yambaye umupira w'umweru urimo n'umutuku n'amadarubindi y'umutuku, undi afite mudasobwa yambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara.

Imbuga nini irimo aho bakarabira, ikigega kiri mu ibara ry'umukara, amashuri afite inzugi z'ubururu, afite uturongo tw'umweru.

Abanyeshuri, bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri, bambaye impuzankano y'umweru n'ubururu, hakurya hari ibyatsi, hirya hari imisozi.

Imbuga nini ishinzemo idarapo riri mu mabara y'ubururu, icyatsi n'umuhondo. Ku ruhande hari amashuri ari mu mabara y'umutuku, umweru. Asakaje amabati y'ubururu, inyuma hari ibiti.

Umugabo wambaye ishati y'umukara ufite indangururamajwi mu ntoki, hakurya ye hari abana benshi bambaye impuzangano y'icyatsi, ku ruhande hari ababyeyi b'abagabo ndetse n'abagore, hakurya hari ikibuga, inyuma yacyo hari inzu z'amashuri.

Abana b'abanyeshuri, bicaye mu ishuri, bambaye impuzangano irimo ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, bicaye ku ntebe ziri mu mabara y'umuhondo, imbere yabo hari ikibaho gisa n'umukara.

Abantu babiri bafashe icyapa cyanditseho amagambo harimo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru n'umutuku hakurya hari umugore ufite indangururamajwi wambaye ingofero, imbere hari abana bari kwitegereza.

Ikibuga cy'umucanga gihagazemo abana b'inshuke b'abanyeshuri iruhande rwabo hari iby'icungo bariramo umunyenga, ibumoso bwabo hari ibaraza ry'ishuri, inyuma yabo hari inzu ifite imiryango ibiri ndetse n'amadirishya abiri.

Akayira karekare, kuruhande gakikijwe n'ibyatsi, imbere hari amazu afite uturongo tw'umweru ku nkuta. Asakajwe amabati y'umutuku, hakurya y'amazu, hari umusozi.

Amarembo afite urugi rw'umutuku n'icyapa hejuru kiri mu mabara y'umweru n'umukara, ku ruhande hari icyapa kiri mu amabara y'ubururu n'umweru, ku ruhande yaho hari indi nyubako yubakijwe amatafari ya rukarakara, inyuma hari ibiti.

Imbuga iteyemo ibiti hahagazemo abanyeshuri, hakurya hari inzu ifite amabati y'ubururu ndetse n'inkuta z'icyatsi.

Abarimu babiri bambaye impuzankano y'amashati y'umweru, umunyeshuri umwe afashe idarapo riri mu mabara y'ubururu, icyatsi n'umuhondo, inyuma ye hari abandi banyeshuri benshi bambaye impuzankano y'umuhondo ku bahungu no ku bakobwa ni ubururu.

Icyumba kirimo ibikinisho by'abana, bikoze mu mbaho. Harimo utubati n'utumeza n'udutebe, hariho ibitambaro by'ubururu n'igisenge gikoze mu mbaho, hirya hariho umuryango.

Munsi y'ibiti byinshi, imbere yaho hateye indabo, hagati hari umuhanda uri kunyuramo umugabo, hirya ye hari izindi ndabo, ku ruhande hari ikigo cy'amashuri, hepfo hari inzu, hepfo yaho hari abantu, hirya hari inzu iri mu mabara y'ubururu n'umweru.

Umugore wambaye agapfukamunwa ndetse n'umugabo iruhande rwe wambaye agapfukamunwa, ikoti ry'umukara, umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, imbere yabo hagaze abana bato b'abanyeshuri bambaye impuzangano y'ubururu ndetse n'umuhondo inyuma yabo hari ameza ari mumabara y'ubururu n'umuhondo.

Abanyeshuri benshi bicaye mukibuga, hagati yabo hahagaze abagabo babiri bambaye amashati y'umweru, hejuru yabo hari undi wambaye ishati y'umweru uhagaze ku ibaraza ry'ishuri.

Akayira gakikijwe n'ibyatsi, ari imbere hari, abantu babiri hakurya hari ibigo by'amashuri bisakajwe amabati y'umukara, inyuma yabyo hari amazu y'abaturage benshi, higanjemo ibiti.

Ikibumbe cyanditseho amagambo gisize amarangi y'icyatsi n'umweru, hariho indabo zikikije inyubako ebyiri ziri mu mabara y'umutuku n'ubururu. Ibicu by'umweru n'ikirere cy'ubururu.

Imbwaga irimo ibyatsi, iruhande rwayo hari ibaraza ry'ishuri rifite amabara y'umuhondo n'umukara n'imiryango iri mu ibara ry'umukara.

Ikirere kirimo ibicu by'umweru ikirere, ikirasa n'ubururu ku marembo asa n'ubururu ndetse n yubakishijwe amatafari ya rukarakara indani ndi inyubako.

Umugabo wambaye ingofero y'umutuku n'amadarubindi, yegeranye nuwambaye ingofero y'umukara n'amadarubindi n'isaha y'umukara ku kaboko, inyuma yabo hari itsinda ryabantu benshi biganjemo abagabo n'abagore.

Abanyeshuri benshi bambaye amashati y'umweru, amapantaro n'amajipo y'umuhondo, inkweto z'umukara; imbere yabo hari urwibutso bateretseho indabo, hakurya hari igihuru ndetse n'ishyamba.

Icyumba cy'isomero, harimo ameza, intebe, ibitabo byinshi cyane bigiye bitondetse.

Abanyeshuri bari ku murongo bambaye impuzangano y'ubururu, umweru n'umuhondo hakurya hari amazu inyuma yayo hari ibiti biyakikije.

Abagabo batonze umurongo, iruhande rwabo hari imeza iriho ijerekani, iruhande hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'umukara hakurya hari amazu.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano z'umweru ndetse n'umuhondo, hagati yabo hari ibiti, imbere yabo hari ihema riri mu mabara y'umweru, icyatsi n'umuhondo.

Abana b'abakobwa b'abanyeshuri, batatu bambaye impuzangano y'amashati y'umweru, inkweto z'umukara, bicaye ku ngazi zerekeza ku mashuri afite inzugi z'icyatsi, ndetse n'inkingi iruhande rwabo.

Itsinda ry'abantu benshi higanjemo abagore n'abagabo, harimo n'abashinzwe umutekano, abasirikare ndetse n'abapolisi, iruhande hari shitingi y'amabara y'icyatsi umuhondo ndetse n'ubururu, inyuma yabo hari ibiti ndetse n'amazu.

Icyumba k'ishuri kirimo abanyeshuri bafite ibitabo n'amakaramu, hagati harimo umugore wambaye agapfukamunwa ndetse n'abandi bagabo bambaye udupfukamunwa, imbere hariho ikibaho kiri mu ibara ry'umweru n'inkuta zisa n'umuhondo.

Abanyeshuri bambaye impuzangano umutuku n'umweru n'inkweto z'umukara, bafite ibikapu mu ntoki inyuma yabo hari abandi benshi iyo basohoka mu muryango abandi biyunga kubandi bahagaze hakurya yabo.

Itsinda ry'abanyeshuri bambaye impuzankano y'umuhondo ndetse n'umweru, hagati yabo hahagaze abagabo babiri umwe yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru n',umukara inyuma hari ishyamba, inyuma yabo nanone hariho icyapa.

Itsinda ry'abanyeshuri bambaye impuzangano iri mu mabara y'umweru n'ubururu harimo n'umuzungu, hari abicaye ndetse n'abahagaze inyuma.

Umunyeshuri wambaye ishati y'umweru n'inkweto z'umukara ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu, iruhande rwe hari imeza itwikije igitambaro cy'icyatsi, hirya ye hari umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'undi wambaye ingofero y'umukara.

Umugore wambaye ishati y'umweru n'amadarubindi, ari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, inyuma ye hari abandi bambaye amashati y'umweru, hakurya hari idirishya rikinguye.

Igitabo cyanditsemo imibare zandikishijwe ibara ry'ubururu, kirambitse ku meza y'umuhondo.

Icyumba cyishuri kirimo intebe nyinshi zimwe mu mabara y'ubururu hicayemo abanyeshuri babiri abandi bane bahagaze hanze umuryango urakinguye inkuta z'ishuri ziri mu mabara y'umuhondo.

Terefone, intebe ziri mu mabara y'ubururu, iruhande hari indi ntebe iri mu ibara ry'igitaka hariho urukuta rusa n'umuhondo.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bambaye imyenda y'imikara, ingofero z'imikara, iruhande hari amashitingi y'umweru, ubururu ndetse n'umuhondo.

Intebe zikoze mu biti zisize irangi ry'ubururu, kuruhande hari amadirishya ari ku gikuta cy'ubururu. Hepfo hari televiziyo ndetse n'indangururamajwi.